Abaganga ndetse n'abayobozi mu rwego rwo gukomeza gushyigikira ubuvuzi buhamye, abayobozi baganiriza abaganga ndetse n'izindi nzobere kugira ngo babashe kugira ubumenyi buhagije bw'uburyo bwo gusuzuma ndetse no kuvura no kwita ku barwayi.

Ibikorwa remezo, imigezi yegerezwa abaturage hamwe bagafata amajerekani bakajya kuvoma aho babona amazi meza kandi abegereye, mu Rwanda rwahashize ndetse no muri Afurika muri rusange bakunze kuvomera mu masoko ariko uko iterambere rigenda bagenda begerezwa imigezi hafi.

Amazi meza. Isuku ni isoko. Abana, indobo, umugezi, amazi. Kugira ngo iterambere rigere kuri bose ibikorwaremezo cyane cyane amazi meza agezwa ku baturage bityo abana nabo ntibibagore kujya kuyashakira kure.

Abaturage, amavomero, amajerekani. Imibereho myiza ishingiye ku mazi meza, isuku ni isoko. Isuku itagira amazi ntayibahoho iba yarapfuye.

Ababyeyi hamwe n'abana. Guha ibyishimo abana ni inshingano z'ababyeyi, kubagenera umwanya wo gukina nabo ndetse no kuganira nabo bityo bakabasha kumenya ari amateka ndetse no kwishimana n'umuryango.

Abaganga, abarwayi, uturindamunwa, urushinge n'ibikoresho byabugenewe bipima umuvuduko w'amaraso. Mu rwego rwo kugira ngo dukomeze duhashye indwara zitandukanye, zitandura zirimo umuvuduko w'amaraso, epatite, hashyirwaho gahunda yo gupima abakuru n'abato kugira ngo bakomeze bagirwe inama.

Abana, utujerekani ndetse n'amavomero, mu kugeza ubuzima bwiza n'imibereho myiza ku baturage ba rubanda rugufi bagerageza kubegereza ibikorwa remezo birimo amazi meza.

Ababyeyi ndetse n'abana bato. Hashyirwaho gahunda y'ikingira ndetse no kwita kuri abo bana kugira ngo bagire imikurire myiza n'imibereho myiza, bakurikiranwe bahabwe indyo yuzuye kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi. Bityo umwana akure neza.

Abaganga, ababyeyi, ndetse n'abana. Hari indwara zikwiye kwibasira abana bakiri bato, ziterwa n'imirire mibi nko kugwingira, ndetse n'izindi zitandukanye. Bityo ababyeyi bagirwa inama yo kwegera ubaganga, kugira ngo babashe kugerwaho na serivisi zitandukanye zo gukurikirana abana bakiri bato, mu buryo bwo kwirinda izo ndwara.

Higanjemo abagore mu mpuzankano, umuyobozi atanga ikiganiro ku bintu bitandukanye mu rwego rwo guteza imbere igitsina gore hifashishijwe ibiganiro kugira ngo barebe icyateza imbere igihugu n'abaturage muri rusange.

Abana, abaturage, amavomero ndetse n'amajerekani, ikwirakwizwa ry'ibikorwa remezo cyane cyane amazi meza agezwa ku baturage ndetse n'abiganje mu byaro kugira bakomeze bagire imibereho myiza, isuku ni isoko.

Abana, abaturage muri rusange, amazi, amabasi. Isuku ni isoko. Dushishikariza abana bakiri bato kwimakaza umuco wo gukaraba intoki, cyane cyane ko mu gusuhuzanya ndetse no gukoranaho handuzwa indwara zitandukanye.

Abaturage, abana, amajerekani, ndetse n'amavomero, mu buryo bwo gukwirakwiza ibikorwa remezo cyane cyane kubegereza amazi meza, hashyirwaho gahunda y'umuganda, kugira ngo babashe kubona amazi byoroshye.

Abana, indobo ndetse n'amavomera, mu rwego rwo gukomeza kunoza isuku ndetse n'imibereho myiza, ibikorwaremezo cyane cyane gushyikiriza abaturage amazi meza, kugira ngo babashe kugira isuku ndetse no gukomeza ubuzima bwiza.

Abana bato, imigezi, ibiti, twirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda tugeza ibikorwaremezo birimo amazi meza kugira ngo isuku ikwirakwire ndetse ibe isoko.

Abayobozi abaturage, kunoza imibereho myiza y'abaturage hashyirwaho ibiganiro ndetse n'ubuyobozi buhamye kugira ngo bakomeze bashishikarize abaturage imibereho myiza biciye mu bigo bitandukanye nk'ikigo gishinzwe imibereho myiza y'abaturage.

Abanyeshuri bakiri bato amazi. Isuku ni isoko. Mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kunoza imibereho myiza dushishikariza abana koga intoki mu gihe icyo aricyo cyose. Baba bavuye mu bwiherero, baba bagiye gufata amafunguro.

Imigezi, abaturage, indobo, isuku ni isoko mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku bita ku bikorwa remezo, cyane cyane bibanda kubegereza amazi meza bakabashyiriraho n'amavomero.

Uturindantoki, urushinge, abarwayi, abaganga. Hateye indwara zitandukanye z'ibyorezo, ni muri urwo rwego hagiye hifashishwa abize ibijyanye n'ubushakashatsi bw'isi, hagashakirwa umuti waba urambye mu kugira ngo hirindwe izo ndwara z'ibyorezo, bityo bagashyiraho inshinge.

Abakuze, abakiri bato, abaganga, uturindamunwa, ndetse n'amafishi yo kuzuza, mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ubuzima hashyirwaho ibarura rusange kugira ngo tubashe kumenya abaturage, ari abakuze, ari abakiri bato, uburwayi, ndetse n'ibindi bibazo baba bahura na byo by'ubuzima.

Abaturage, amajerekani, amazi, mu byaro ndetse no mu mijyi usanga ikibazo cy'amazi ari ikibazo cyugarije isi, aho usanga n'ahari amavomero amazi akunze kubura, bityo Leta ishyiramo imbaraga mu gukomeza gukwirakwiza uburyo amazi yagera ku baturage.

Uturindantoki, uturindamunwa n'impuzankano yindi y'abaganga, abaturage bakuze. Hakurikije indwara zitandukanye zibasira mu kanwa hashyirwaho abaganga babizobereye mu kwita ku bantu bakuze, ndetse no kuzisuzuma no kuzishakira imiti.

Abana batoya mu mpuzankano, imigezi, uturindantoki, kwirinda indwara zitandukanye hashyirwaho ingamba zitandukanye, hashyirwa ibikorwaremezo birimo imigezi, kwegereza abaturage cyane cyane mu bigo by'amashuri, kubegereza amazi kandi meza.

Abaturage bo mu byaro cyane cyane aba mama amazi bayakura kure, baravoma kubera ko ibikorwaremezo nk'imigezi biba bitabegereye, bakoresha indobo bakajya gushaka aho bakura amazi.

Amazi meza, indobo, amabase ndetse n'ababyeyi. Leta igerageza gukwirakwiza ibikorwa remezo bigiye bitandukanye mu rwego rwo kunoza imibereho myiza y'abaturage, babegereza ibikorwa remezo, cyane cyane kubaha amazi meza.

Ikigo cy'ubuzima ku rwego rwa afurika icyo bita mu ndimi z'amahanga africa health care. Gishishikariza abanyafurika kubaho mu buzima bwiza, kwirinda indwara ndetse n'ibyorezo no kwegera ubuvuzi mu gihe batatswe n'indwara.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima. Gishyiraho ibiganiro kibicishije ku maradiyo ndetse no mu nama zitandukanye kugira ngo bakomeze bashishikarize abaturage uko babaho neza n'uko bakoresha ibidukikije mu mibereho myiza y'abaturage.

Ibyishimo mu baturage cyane cyane mu rubyiruko. Hateye indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'ibibazo urubyiruko ruhura na byo nko kutishima, kwigunga. Hashyizweho gahunda yo gukangurira urubyiruko gushaka ibibahuza nka siporo kugira ngo birinde agahinda gakabije no kwiheba.

Abana batoya, umubyeyi mukuru, ubukene bwugarije cyane cyane, imiryango yo muri Afurika; biterwa n'imibereho mibi, kutabona ibyo kurya bihagije, bityo bigatera indwara ziterwa n'imirire mibi.

Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, mu rwego rwo gukomeza kubungabunga imibereho myiza yabaturage hashyirwaho ikigo cyo kubungabunga ubuzima kugira ngo gitangirwemo ibiganiro n'inama zitandukanye, uburyo abaturage babaho neza.

Uburezi bw'ibanze ni ingenzi cyane, cyane cyane muri Afurika kugeza no gukangurira ababyeyi kujyana abana babo mu mashuri ku gihe, umwana agatangira kwiga akiri muto kugira ngo uburezi buzabe ihame.

Abagore, abana, abajyanama b'ubuzima, iterambere, telefone. Hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kugira ngo imbyaro zigabanuke, begera abagore bakabigisha uburyo bwo kwirinda ndetse no kuboneza urubyaro.

Abaganga, abaturage, abagore ndetse n'abagabo. Mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage hashyirwaho inzego zitandukanye, inzego z'ubuvuzi, inzego z'ubukangurambaga kugira ngo habashe kwegerezwa ibikorwaremezo byiganjemo ubuvuzi.

Abana batoya, bari hagati y'imyaka irindwi kuzamura, ababyeyi bashishikarizwa kubajyana mu mashuri kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza kandi inoze ndetse n'uburezi.

Udupfukamunwa, kwirinda gukoranaho biri mu bigize ikwirakwizwi ry'indwara z'ibyorezo ziba zandurira mu matembabuzi ndetse n'umwuka.

Abaturage, abayobozi mu cyumba cy'uruganiriro bakomeza gushishikarizwa imibereho myiza y'abaturage. Uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye zaba iz'ibyorezo ndetse n'izindi. Izandura n'izitandura.

Indwara y'amenyo. Akenshi iterwa n'ibyo turya birimo amasukari, imiti dukoresha twisukura, tugashishikarizwa gukoresha imiti yabugenewe mu gusukura amenyo. Twagaragaza ikibazo tukihutira kujya kwa muganga.

Uturindamunwa, uturindantoki, umuganga ndetse n'umurwayi. Indwara zitandukanye zibasira mu kanwa hagashyirwaho ubukangurambaga ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo iki kibazo kibashe kubonerwa umuti.

Abantu bakuru n'ibibazo bitera mu menyo. Ushishikarizwa kwegera kwa muganga bakaguha imiti yabugenewe ndetse tukabuzwa gukoresha ibibonetse byose mu menyo yacu kubera ko biyangiza ndetse bikayacukura.

Icyumba cy'ivuriro, umuganga mu mpuzankano, intebe yicaye ategereje abarwayi, cyane cyane muri iyi minsi uburwayi bw'amenyo bwugarije, ari abakuru, ari abatoya, ariko hakaba hakomeje gushyirwaho ubuvuzi bw'ibanze mu bijyanye n'amenyo.

Ikoranabuhanga, cyane cyane mu bantu bakuze, harimo abasaza. Urubyiruko rugomba kwegera abakuze, rukabigisha uko bakoresha mudasobwa, telefone n'ibindi bitandukanye.

Abaganga ndetse n'abantu bakuze harimo abasaza, mu bigaragara iyo abantu bageze mu zabukuru batangira kwatakwa n'indwara zigiye zitandukanye bityo bikaba byiza iyo babayehwe hafi n'abaganga bakabitaho.

Abaganga ndetse n'abantu bakuze; mu kwita ku bantu bakuze bakunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye: nk'imivuduko y'amaraso, guhangayika, umutima; abaganga bita ku bantu bakuru bakagerageza kubaba hafi mu burwayi bwabo.

Ababyeyi n'abana. Leta ishishiriza urukundo mu miryango. Aha ngaha uruhare runini rukaba rugomba kugirwa n'ababyeyi, aho bagomba gufata igihe bakagirana umwanya wihariye n'imiryango yabo bakaganira, bakavuga ku buzima busanzwe.

Abantu bakuru bakwiriye gushaka imikino itandukanye ndetse n'abakiri bato bakababa hafi mu rwego rwo kugira ngo ubwonko bwabo butibagirwa, bagashaka imikino itandukanye irimo igisoro n'indi igiye itandukanye.

Abagore bakuze, byagaragaye ko mu rwego rwo gukomeza kwita ku mibereho myiza ku basheshe akanguhe, bashyirirwaho gahunda zitandukanye nko kubaha ibiganiro bibahuza, ibikoresho bibahuza nka telefone kugira ngo na bo bakomeze kubaho ubuzima bishimye.

Ababyeyi bakuze, abana batoya ndetse na ba mama wabo, mu buryo bwo kwita ku muryango imiryango itandukanye igenda yegerana ndetse ibana mu nzu n'ababyeyi bakuru kugira ngo babashe kwiga umuco no kubaho bishimye.

Abakuze ndetse n'abakiri bato, imboga ndetse n'imbuto, biri mu bifashwa kwirinda indwara zitandukanye kuko bidufasha gutegura amafunguro neza kandi akungahaye mu bigize ibigomba kurinda indwara.

Abakecuru ndetse n'abasaza. Imirimo y'ubukorikori ndetse n'imyuga kugira ngo abasheshe akanguhe hamwe bakomeze gusunika iminsi bashakirwa imirimo itandukanye yo kubahuza.

Abakecuru siporo ngororamubiri. Mu rwego rwo kwita ku bantu bakuze, hashyirwaho siporo kugira ngo imibereho myiza n'ubuzima bwabo bikomeze kugenda neza nko gushyiraho umunsi wihariye wo gukora iyo mirimo ngororamubiri.

Abasaza, mu rwego rwo kunoza imibereho myiza ku bantu bakuze, hashyirwaho ubuvuzi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, kugira ngo imibereho myiza ku basheshekanguhe, ikomeze kuba urugero rwiza mu batuye isi.

Abasaza. Mu muhango wo gusaba ndetse no gukwa, akenshi dusangamo abasaza ndetse n'abakecuru kugira ngo babashe gukurikirana ibirori ndetse no gusobanura ibijyanye n'umuco.

Ababyeyi bakuze, imboga ndetse n'imbuto n'inyama. Mu rwego rwo gukomeza kugira imibereho myiza dushishikarizwa kurya indyo yuzuye ariyo irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ndetse n'ibirinda indwara.

Agapfukamunwa, abaganga ndetse n'abarwayi bageze mu zabukuru. Kubera indwara zitandukanye zigenda zibasira abageze mu zabukuru, hashyirwaho gahunda yo kubapima indwara zitandukanye harimo umuvuduko, w'amaraso, hepatite n'izindi.

Urubyiruko imibereho myiza y'abaturage ishingiye ahanini ku rubyiruko, bityo bagahabwa ibiganiro bitandukanye ku buryo bwo kwirinda ndetse no gushakira ibibazo, indwara zitandukanye n'ubundi buryo bukaze bwo kwirinda no gufata ingamba.

Abanyeshuri, ababyeyi ndetse n'abana batoya, mu rwego rwo kurwanya imibereho mibi y'abana ndetse n'indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi n'imibereho mibi, hashyirwaho gahunda, ubukangurambaga no kwigisha abakiri mu mashuri uburyo bwo kurya neza ndetse no kwita ku bana bakiri bato.

Abaturage n'abayobozi, mu kugerageza gukwirakwiza ubuvuzi ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, hifashishijwe ibiganiro bitangwa, hacishijwe mu ijwi rirerire ry'ubuyobozi rigera ku baturage.

Abirabura ndetse n'abazungu mw' iterambere ry' afurika aho bageza imishinga itandukanye muri afurika yo kubaka ubukungu ndetse n'ubuvuzi mu kwirinda ibyorezo ndetse no ku bihashya.

Ubuzima ku bijyanye n'imyororokere, leta zishyiraho ibiganiro bitandukanye zikigisha abaturage ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kubyara abo badashoboye kurera, babateganyiriza ibiganiro.

Igitanda, intebe, icyumba, mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi, hashyirwaho ibyumba byo kugira ngo bakurikiraniranemo abarwayi, kugira ngo babasuzume ndetse banabiteho.

Ibyumba basuzumiramo abarwayi, intebe, ameza, ibitanda, hari indwara nyinshi z'ibyorezo zigenda zataka isi, bityo bagashyiraho ibyumba bitandukanye byo gusuzumiramo ndetse no gutangiramo urushinge.

Inzu zisuzumirwamo indwara zitandukanye, hifashishijwe ikoranabuhanga, hashyirwaho gahunda yo kujyana abarwayi kwa muganga bakabafata amaraso n'ibindi bizamini bitandukanye bityo bakabijyana mu nyubako zabugenewe, hifashishijwe ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bakabasuzuma indwara.

Amavuriro, ibikorwaremezo bikwiriye kwegerezwa abaturage, mu rwego rwo kugira ngo babashe kubona serivisi z'ubuvuzi hafi yabo. Aho haba mu byaro, mu mijyi hegerezwa amavuriro manini ndetse n'amavuriro matoya.

Ibitaro byegerezwa abaturage. Ibikorwa remezo bikunze kwitabwaho ni ukwegereza abaturage amavuriro, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kubaho bufite umucyo, ndetse bakagerageza kunoza serivisi zijyanye n'ubuzima.

Inyubako zitangirwamo amaraso. Kugira ngo ubuvuzi bukomeze butezwe imbere hashyirwaho gahunda yo gutanga amaraso, hakabanza hagasuzumwa hakamenyekana abafite amaraso ubwoko butandukanye, ndetse atanduye, hanyuma bakayajyana mu baturage bafite ikibazo cyo kubura amaraso.

Ibyumba birimo ibitanda ndetse n'amasuzumiro, kugira ngo ubuvuzi bubashe kugira ireme hashyirwaho umwanya w'umwihariko wo gukurikiraniramo ibizamini abarwayi baba batanze.

Amavuriro, utugare ndetse n'ababana n'ubumuga. Abantu barwaye bafite ikibazo cy'ubumuga bashyirirwaho gahunda y'imfashanyo kugira ngo babashe kubaho na bo bagerwaho serivisi zose nk'abandi bose, ndetse ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Abaganga, abasheshekanguhe, amagare y'abafite ubumuga ndetse n'amazi, hagaragaye ko iyo abantu bari kugera mu zabukuru bagenda bafatwa n'indwara zitandukanye, bityo bagashyirirwaho ababitaho ndetse bakaba bashinzwe kubakurikirana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abasheshe akanguhe ndetse na serivisi z'ubuvuzi, barahugurwa ku bijyanye n'indwara zikunda kwataka abantu bageze mu zabukuru ndetse abagaragayeho izo ndwara, bagatangira gukurikiranwa ndetse no kwitabwaho.

Igitanda, intebe, isuzumiro ry'abana, mu gihugu hagomba kubaho isuzumiro ry'abana kugira ngo hifashishwe ibikoresho bitandukanye byabugenewe mu kumenya uburwayi n'uko bagomba kwita ku bantu.

Ibikorwa remezo, cyane cyane amavuriro manini n'amavuriro matoya. Ikigo cy'igihugu gishizwe iby'ubuzima, gishishiriza abaturage gutanga imisoro kugira hihutishwe ibikorwa remezo, cyane cyane amavuriro.

Abana batoya, abajyanama, abaganga, abaturage batandukanye ababyeyi kwa muganga gupimisha ibiro no gukurikirana ubuzima muri rusange rw'impinja.

Ibigo nderabuzima ni ibikorwaremezo begereza abaturage mu rwego rwo kwirinda ibura ndetse n'ingorane mu buvuzi bw'ibanze ku baturage, aho abaturage bagezwaho ubuvuzi byoroshye.

Ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gupima indwara zitandukanye, bafata amaraso, bafata inkari n'ibindi bizamini, ndetse n'icyumba cyabugenewe cyo kubisuzumiramo, gishyirwaho mu rwego rwo kugira ngo babungabunge ibizamini by'abarwayi.

Amavuriro. Kugira ngo imibereho myiza y'abaturage ikomeze kuba nta makemwa, hashyirwaho ibikorwa remezo higanjemo cyane cyane amavuriro y'amaso n'andi mavuriro y'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Amavuriro. Ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusuzuma mu kugira ngo iterambere ry'ubuvuzi rikomeze kugerwaho. Muri iyi minsi hifashishijwe ikoranabuhanga hakomeza kongerwa imbaraga mu kugira ngo ubuvuzi bukomeze butere imbere mu rwego rwo kugira ngo abaturage barusheho kugira imibereho myiza.

Abaganga, abagore batwite, mu rwego rwo kwita ku buzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi, hashyirwaho gahunda yo gukurikirana imibereho ya buri munsi, guhera umubyeyi atwite kugeza abyaye, ndetse no kumugira inama zitandukanye z'uburyo yakwitwara.

Imyanya yateganyirijwe kwicaramo hategerejwe serivise z'ubuganga mu rwego rwo kunoza imibereho myiza y'abaturage, hashyirwaho ababishinzwe bihutira kwakira neza ababagana.

Abaganga, abaturage muri rusange. Inzu y'ababyeyi babyariramo, materneti. Mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'ababyeyi no kugira ngo babyare neza batabazwe cyangwa se ngo bahure n'ibindi bibazo nk'urupfu, hashyirwaho umwanya w'umwihariko wo kubyariramo, n'abaganga b'inzobere.

Imashini zitandukanye za siporo ngororamubiri. Ubuzima butarimo siporo ngororamubiri buba bufite ikibazo kuko ubwayo ni ingenzi ndetse ni n'umuti, ni n'igisubizo kirambye ku bantu benshi.

Abaganga, abarwayi, igitanda, amasuzumiro, inshinge. Mu rwego rwo kwita ku bagore cyane cyane ari abatwite ndetse n'abadatwite hashyirwaho gahunda yo kubakurikirana, kubashyiriraho ibyumba byo kubitaho, ndetse n'abaganga babizobereye.

Ububiko bw'imiti ndetse n'amaguriro y'imiti itandukanye, icyo bita " Foromasi". Ku barwayi bavuye kwivuza begerezwa amafarumasi atandukanye kugira ngo babashe kubona imiti ku buryo buboroheye.

Ibigo nderabuzima, ibikorwa remezo bitandukanye, cyane cyane hitabwa ku bigo nderabuzima kugira ngo abaturage babashe kubona ubuvuzi bw'ibanze, kandi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amasuzumiro ndetse n'ibyumba byabugenewe, hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga, mu gusuzuma indwara, ndetse no kwita ku mibereho myiza y'abaturage, hashyirwaho ibyumba by'umwihariko byo gusuzumirwamo no gukurikirana ibizamini byatanzwe.

Amavuriro, amasuzumiro, abarwayi ndetse n'abaganga, hashyirwaho intebe zo gutegerezaho serivisi, mu rwego rwo kunoza imikorere ndetse no gutanga neza serivisi zagenewe abarwayi, bityo abategereje icyumba cy'isuzumiro ndetse n'icyumba cy'ibizamini bakabona aho bicara bategereje.

Ibyuma by'imyidagaduro y'abana, mu rwego rwo gukomeza gushyigikira imibereho myiza y'abana, hashyirwaho ibibuga bitandukanye ndetse hagashakishwa n'igisubizo kinoze kugira ngo abana babashe kubaho bishimye.

Abaturage ndetse na farumasi ahatangirwa imiti bitewe n'indwara zitandukanye, hagenda hashyirwaho amafarumasi mu bice bitandukanye kugira ngo babashe gutanga serivisi inoze, bityo abaturage babone imiti mu buryo bworoshye.

Amazi ndetse na siporo ngororamubiri. Siporo ngororamubiri iri mu bintu bituma umuntu agira imibereho myiza, ariko cyane cyane iyo bikurikijwe n'ibindi biyunganira nko kunywa amazi ndetse no gukomeza kwiyitaho mu byo turya.

Ibikomere biterwa na siporo ngororamubiri, hashyirwaho uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze kugira ngo ukomeretse n'uhuye n'impanuka abashe kugezwaho ubuvuzi byihutirwa kugira ngo imvune itarushaho gukomera.

Siporo ngororamubiri, mu rwego rwo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza bashishikarizwa kwitabira siporo, nko mu gihugu cy'u Rwanda, bashyizeho umunsi rusange ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi cyo kwitabira siporo ngororamubiri.

Uruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere siporo ndetse n'imibereho myiza, bongera kunywa amazi, cyane cyane kugira ngo umubiri ndetse n'imibereho myiza ikomeze mu bakiri batoya.

Siporo ngororamubiri, mu rwego rwo gukomeza kugira imibereho myiza, aho usanga baragiye bashyiraho iminsi rusange ndetse n'ahantu rusange hihariye ho kugira ngo bakorere izi siporo ngororamubiri, ziri mu birinda indwara zitandukanye ari iz'ubuhumekero, umutima n'ibindi.

Ikigo k'igihugu gishinzwe gukusanya amaraso ahabwa indembe, zahuye n'ikibazo cyo kubura ndetse no kugira amaraso make mu mubiri, aha ngaha niho usanga abakoreranabushake bashishikarizwa kujya kwipimisha ndetse no gutanga amaraso kugira izo ndembe zibashe kugira nazo ubuzima.

Imiti cyane cyane iyo kwisiga igabanya ububabare, akenshi abantu bakora siporo ngororamubiri bahura n'ibikomere bya hato na hato, bityo bagashishikarizwa kuba bafite ubuvuzi bw'ibanze, harimo imiti igabanya ububabare.

Siporo rusange ni ingenzi, aho abantu bahurira hamwe bakidagadura, bakagorora umubiri, ibi ngibi bakaba bigirira akamaro umutima n'umubiri muri rusange. Abafite uburwayi ndetse n'abatabufite bakabasha kwirinda.

Imvune ziterwa no gukora siporo. Hashyirwaho ubukangurambaga ndetse n'amavuriro ndetse n'ibikoresho bitandukanye byabugenewe, kugira ngo ukora siporo naramuka ahuye n'ikibazo abashe kubona ubutabazi bw'ibanze ndetse bakanagirwa inama yo kwitwararika no kwambara ibikoresho byose byabugenewe.

Inkweto z'ubwirinzi. Mu gukora siporo, mu bwubatsi, mu bikorwa bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo hirindwe impanuka ndetse n'ibyago biterwa no kutirinda, hakoreshwa ibikoresho byabugenewe harimo n'inkweto zirinda impanuka.

Imvune ziterwa no gukora siporo ngororamubiri, abaganga bashishikariza abantu bakora siporo ngororamubiri kuba bafite ubutabazi bw'ibanze: harimo nk'ibipfuko, imiti igabanya ububabare.

Amasashi y'imiti ndetse n'amacupa, ibikoresho harimo uturindantoki, ndetse n'imikasi. Siporo itera indwara zitandukanye harimo imvune zitunguranye, bityo hagashyirwaho ubuvuzi bw'ibanze, burimo imiti igiye itandukanye, nko kwipfuka mu gihe ukomeretse.

Siporo ngororamubiri mu rwego rwo gukomeza kubungabunga imibereho myiza no gukomeza gusigasira ubuzima bwiza, dushishikarizwa gukora siporo ngororamubiri kenshi cyane. Nk'aho usanga mu bihugu bitandukanye baragiye bashyiraho umunsi wihariye, ndetse n'imyanya yihariye yo gukorerwamo siporo ngororamubiri.

Siporo ngororamubiri ndetse n'amazi, mu rwego rwo gukomeza gushishikariza abakiri bato ndetse n'abari mu zabukuru kugira ubuzima bwiza, bashyirirwaho iminsi itandukanye ndetse bakagirwa inama zo gukora siporo ngororamubiri ndetse no gufata amazi meza ahagije, kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Imihanda, imodoka. Ibikorwa Remezo cyane cyane imihanda, byifashishwa mu gukomeza kunoza imibereho myiza, ndetse no kugira ngo abarwayi, imvune, inkomere zibashe kugezwa kwa muganga vuba, hashyirwaho gahunda y'imodoka zishinzwe abarwayi.

Amazi meza, siporo ngororamubiri ni ibintu by'ingenzi cyane cyane mu buzima bwa buri munsi kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, cyane cyane iz'ubuhumekero, izo mu mutwe.

Ikibuga cy'umupira, umupira abantu batandukanye imvune ziva mu gukina umupira aho usanga akenshi abakina bahura n'ibibazo by'imvune ariko hifashishijwe iterambere hakaba hari uburyo bwinshi bwo kuvura ndetse no kwita ku barwayi babasha guhura n'iki kibazo.

Siporo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye, harimo umutima, indwara z'ubuhumekero, bashishikariza gukora siporo kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byabugenewe mu gupima ibiro ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Kugira ngo ubuzima bukomeze kuba bwiza hashyirwaho gahunda yo gupima abantu uburebure ndetse n'ibiro byabo kugira ngo bategekwe siporo bagomba gukora, ubuzima bwabo bukaba bwiza.

Imvune ziterwa na siporo ngororamubiri, abaganga bakunze guhura n'ikibazo cy'ababagana, baba bavunitse ndetse bahuye n'ibikomere bitandukanye, bityo bagashishikarizwa ko umuntu wese yakabaye agira ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze nk'ibipfuko ndetse n'ibinini bigabanya ububabare.

Siporo ngororamubiri. Mu rwego rwo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, bashishikarizwa siporo kuko ari ingenzi ku buzima kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, ari izo mu buhumekero, ari izo mu mutwe.

Ubuvuzi bw'ibanze abaturage n'urubyiruko mu gihe bahuye n'ibibazo by'imvune bihutira kujyana abarwayi kwa muganga bakabakurikirana ndetse bakabongerera n'amaraso mu gihe bagize ikibazo cyo gutakaza amaraso cyane.

Imashini zisuzuma umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi mashini zifashishwa mu gusuzuma imibereho myiza y'ubuzima. Mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze kugenda neza, hashyirwaho gahunda y'iterambere no kwegereza ibigo nderabuzima bitandukanye imashini ndetse n'andi masoko agiye atandukanye.

Ibimera by'icyatsi bivamo imboga ndetse n'imiti itandukanye. Mu rwego rwo kugira ngo hanozwe imibereho myiza, hakomeza kwitabwaho ibimera ndetse no gushishikariza abantu kurya imboga cyane.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti gakondo ndetse n'ibirungo byifashishwa mu guteka, harimo ibireti, icyayi n'ibindi bitandukanye tukaba dushishikarizwa kubihinga kugira ngo twongere ubuzima bwiza.

Imiti gakondo ndetse n'ibirungo bitandukanye biryoshye ibiryo, biva mu bimera ari ibya kimeza ndetse n'ibihingwa, bigatunganywa, bigafungwa neza mu masashe ndetse no mu macupa.

Icupa imiti y'abana bakunda kwibasirwa cyane cyane n'indwara zigiye zitandukanye, bityo ubushakashatsi bwagiye bushaka imiti yifashishwa kugira ngo abana nabo bagerweho n'ubuvuzi bw'ibanze.

Amavuta yisigwa ku ruhu, kugira ngo umuntu yirinde indwara z'uruhu ndetse agire n'umubiri mwiza, akaba akorwa mu cyatsi cyitwa igikakarubamba, kikaba kiboneka mu mashyamba ndetse no mu ngo zitandukanye zigihinga.

Umuravumba icyatsi kivura indwara zitandukanye, kimera mu mashyamba ndetse benshi bakunda no gutera mu rugo, izo ndwara harimo mu nda, umutwe, ibicurane n'izindi zitandukanye.

Ibyatsi bya kimeza by'ibara ry'icyatsi biba mu mashyamba ndetse n'aho duhinga, byifashishwa kugira ngo havemo imiti, ari itunganywa biciwe mu nganda ndetse n'iyo bakoresha batayitunganyije.

Imiti gakondo yifashishwa mu guhashya indwara zitandukanye, amacupa yabugenewe yo kubikamo bitabaye ngombwa ko bayacisha mu nganda.

Ibyatsi bikunze kuvamo imiti itandukanye twaba tuzi impamvu tugomba kubungabunga ibidukikije, ni ukubera ko mu mashyamba ariho haba harimo imiti itandukanye isarurwa, ikajya gukorwamo ubushakashatsi hakavamo imiti itandukanye.

Imiti y'uruhu, amavuta y'uruhu. Hakurikijwe ikibazo cyibasira uruhu bitewe n'ibyo turya, ku bantu batandukanye ari abagira uruhu rwumye, urw'amavuta, hashyizweho gahunda yo gukurikirana uruhu rwabo.

Amashyamba ari mu bidukikije, ibiti, ari ibiti bya cyimeza, ari ibiterano biri mu bigize amashyamba bituma ikirere kimera neza.

Ibimera bitandukanye ari iby'icyatsi, ari iby'andi mabara agiye atandukanye, byifashishwa mu kubonera igisubizo ibibazo bitandukanye abatuye isi bafite cy'imiti. Ndetse n'ibindi bitandukanye biribwa bivamo ifu zivamo indyosh ndyo.

Imiti yoza amenyo. Imiti ivura uruhu. Imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye hifashishijwe ikimera cyitwa igikakarubamba. Kimeza cyangwa se abaturage batandukanye ubu usanga baragiteye mu mago yabo. Kikaba ari ingenzi

Avoka, igikarubamba, isabune. Ibimera cyane cyane by'icyatsi bivamo ibikoresho bitandukanye, harimo amavuta ari ayo turya, ari ayo twisiga. Hakavamo n'ibindi bikoresho harimo amasabune byose dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi bikaduha ubuzima bwiza

Imiti gakondo iva mu bimera biva mu mashyamba, ndetse n'ibyo abaturage bihingira mu mirima yabo, bitunganywa atari bitagombeye ko babicisha mu ruganda, ahubwo bo bakabitunganya n'intoki zabo.

Umuravumba, icyatsi kimeza ndetse kikanahingwa, gikorwamo imiti itandukanye kigakorwamo amasabune, amavuta, kirinda indwara zitandukanye ndetse kikanazivura.

Ibihingwa bitandukanye, ibiti bitandukanye biva mu mashyamba dutera buri munsi tukabyifashisha dukuramo imiti, ibiryo, ibiryo, indyoshya ndyo, n'andi mafu atandukanye.

Imiti gakondo iva mu biti n'ibyatsi ari ibihingwa ari ibyimeza, abaturage bashishikarizwa gufata neza ibidukikije, kubera ko ari ubuzima cyane cyane ko bivamo imiti itandukanye.

Ubuvuzi bw'amenyo izi ndwara, ziterwa n'ibyo turya ndetse n'isuku dukorerwa iyo turimo gusukura amenyo, mu bimera cyane cyane igikakarubamba havamo imiti ikoreshwa mu gusukura amenyo.

Ibihingwa by'icyatsi akenshi bikunze kwifashishwa mu kugira ngo havanwemo imiti ivura indwara zitandukanye, ibyahoze biva mu mashyamba byimeza bashishikariza abaturage kubihinga kugira ngo bakomeze guteza imbere ubuvuzi.

Abaturage ndetse n'ibimera. Hakurikijwe ikibazo cyugarije isi cy'umwuka mubi ndetse no kubura imvura ihagije n'ibindi byose byangiza ikirere, abaturage bashishikarizwa gutera ibimera, niba utemye igiti kimwe ugatera bibiri, nina utemye bibiri ugatera bitatu.

Ibitoki, soya ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye bivamo amafunguro yacu ya buri munsi mu buryo bwo kwirinda indwara, ari ibyo turya bitetswe, ari n'ibyo turya ari bibisi.

Abaganga, imiti, amazi, hifashishijwe ubushakashatsi hagaragaye ko imiti gakondo ishobora gutunganywa itageze mu nganda, ikavamo igisubizo kirambye mu kubona imiti y'indwara zitandukanye.

Ibyatsi bya kimeza ndetse n'ibiterwa, akenshi bikorwamo imiti igiye itandukanye ndetse n'amasabune, mu buzima bwacu bwa buri munsi, dushishikarizwa gufata neza ibidukikije, cyane cyane ibyatsi tuzi neza ko bivamo imiti.

Imiti, amasabune. Hifashishijwe ibimera bitandukanye bivamo imiti myinshi hashyizweho gahunda yo gukangurira ababizobereye, abaganga mu gushyira imbaraga zabo mu kubyaza umusaruro ibimera. Bagakuramo imiti, bagakuramo amasabune ndetse n'amavuta. Mu kubungabunga uruhu ndetse n'indi mibereho myiza.

Imiti yifashishwa mu kugabanya ibiro, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije. Bikaba bikorwa hifashishijwe ibimera, ndetse bigatunganywa hakoreshejwe inzobere mu by'ubuzima.

Ibimera bitandukanye: igikakarubamba, umuravumba, umushishi, byifashishwa mu gutegura imiti itandukanye, ibyatsi gakondo bitegura imiti y'umwimerere itagira ingaruka mu mubiri w'umuntu.

Igipangu, urugo, amazu, ibyatsi bivamo imiti gakondo, ibyahoze ari kimeza tubisanga mu mashyamba hirya no hino ariko ubu bikaba bikoreshwa mu buhinzi kugira ngo habashe kuboneka imiti yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze igihe hari umunyamuryango urwaye abashe kubona ubuvuzi bw'ibanze.

Imiti gakondo iva mu bimera, ndetse ivanwamo n'ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, n'amavuta, igakorwamo amasabune arinda uruhu kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Umuravumba, igiti kimeza ndetse kikanahingwa. Ntikiribwa ariko ni ingenzi kuko gikurwamo imiti itandukanye. Ivura mu nda, ibicurane, umutwe, imvune, tukaba dushishikarizwa guhinga ibyatsi nk'ibi bivamo imiti itandukanye.

Utubindi, amacupa atandukanye, imifuka, ibirere, amabumba, intebe ibi byose byakoreshwaga mu buvuzi gakondo, ibyo bita uburaguzi, ubucuraguzi bigakorwa mu mihango itandukanye cyane cyane ya kinyafurika.

Amacupa atandukanye, amacupa y'ibyuma, amacupa ya palasitike, amasashi arimo imiti igiye itandukanye imiti gakondo, bitandukanye n'uburyo bwo hambere aho imiti gakondo yakurwaga mu mashyamba igahita ikoreshwa ariko ubu ibanza igatunganywa bakayikora ku buryo uyikeneye ahita ayibona byihutirwa bitagoranye.

Ibimera bivamo imiti itandukanye yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, bityo hagashyirwaho amacupa yabugenewe yo gupfunyikamo imiti kugira ngo itangirika, uyikoresha izabashe kumara igihe kinini nta kibazo igize.

Umubyeyi, imboga ndetse n'ibindi bihingwa harimo ibitoki. Cyane cyane ahiganje mu byaro aho usanga bafite imibereho myiza kubera ko barya ibiryo by'umwimerere ibyo baba bagisarura ako kanya, ndetse bigitoshye bigifite intungamubiri zose.

Ibirungo biryoshya ibiryo bitandukanye. Biva mu byo duhinga, bigatunganywa maze bakabishyira mu macupa bigiye bipimwa mu rwego rwo kugira ngo babibike igihe kirekire bidapfuye, hanyuma bizakoreshwe neza ndetse ibyo birungo akenshi bikaba biba bi ari n'imiti itandukanye.

ndwara ziterwa n'umwanda ndetse n'imirire mibi zibasiraye isi cyane cyane amibe, hashyirwaho ubuvuzi bw'ibanze ndetse hakanakangurirwa gufata imiti, no kwegera ubuvuzi mu gihe ugaragaje ibimenyetso.

Imiti iva mu bimera; ikimera cyitwa igikakarubamba cyifashishwa mu bintu bitandukanye, nko gukora amavuta yo kwisiga, amasabune yo koga ndetse n'indi miti itandukanye; nka crogate ariwo muti woza amenyo.

Abaturage ndetse n'icyayi, mu rwego rwo gukomeza guteza imbere imibereho myiza, abaturage basarura icyayi bakakijyana mu nganda zitandukanye zikagitunganya, hanyuma kikagemurwa ku masoko.

Imiti y'uruhu amavuta, indwara nyinshi ziterwa n'uruhu, ari abagira uruhu rwumye, ari abagira urw'amavuta, hashyirwaho imiti ndetse n'amavuta agiye atandukanye, kugira ngo babashe kubungabunga buri wese uruhu rwe.

Icyayi cy'umwimerere ukinyweye agira ubuzima bwiza, aho kiba cyakozwe mu byatsi birimo imiti ivura indwara zitandukanye, harimo amajyane.

Ibimera byifashishwa mu gushaka imiti gakondo, higanjemo cyane cyane iby'icyatsi harimo ibikakarubamba, imiravumba bigakoreshwa n'inzobere mu bushakashatsi.

Ibyatsi byo mu mashyamba bidahingwa ndetse n'ibihingwa byifashisha mu gushaka imiti ndetse n'amavuta agiye atandukanye avura indwara zitandukanye, ubushakashatsi bugaragaza ko imiti myinshi y'umwimerere iva mu byatsi by'icyatsi.